Ihuriro ry'abaturage batandukanye bagaragaza ko bishimiye ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi ndetse iyo fumbire igatuma ibihingwa byera neza kandi mu gihe gito.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ndetse bufasha abaturage mu kwiteza imbere umunsi ku munsi, abaturage bagahura n'ababisubereyemo kugira ngo babakangurire uko gukoresha ifumbire y'imborera bikorwa.

Kwita ku biribwa bihingwa n'abaturage rusange kugira ngo umusaruro uzabe mwinshi ku isoko, ni ingirakamaro bagahabwa ifumbire imeze neza izongera umusaruro.

Inyubako ya farumasi itangirwamo imiti ishobora gukoreshwa n'abahinzi mu kongera umukamo n'umusaruro mu gihe bari kwita ku bworozi n'ubuhinzi umunsi ku munsi.

Icyumba kibitswemo imiti igiye itandukanye, ifasha abaturage rusange mu kubona imiti ibafasha mu kwita ku bworozi n'ubuhinzi bwabo muri rusange, aho harimo imiti y'amatungo magufi ndetse n'imiti ishobora gutuma ubutaka bumera neza.

Amafumbire akoreshwa mu mirima y'abaturage agatuma ibihingwa byera neza, ni ingirakamaro ko bayitaho ndetse bakanayamenya uburyo bayafumbiza kugira ngo azatere umusaruro ibihingwa.

Icyumba kirimo imiti itandukanye ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo iherezwe abaturage, izabafashe mu buryo bwo guteza imyaka yabo imbere n'umusaruro bakoresheje imiti igiye itandukanye.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye ndetse akaba ari ububiko bw'imiti itandukanye ikoreshwa mu bihingwa, ikanita ku gukura neza kw'ibiribwa umunsi ku munsi.

Ifumbire mborera ndetse n'ifumbire mvaruganda, ni amafumbire akoreshwa n'abaturage rusange mu mirima yabo kugira ngo bite ku kwiyongera k'umusaruro ku bihingwa bahinze.

Inyubako irimo imiti itangwa ku baturage b'abahinzi, mu rwego rwo kongera umusaruro ndetse no gushyira ifumbire imeze neza mu butaka bwabo, kugira ngo bateze ibiribwa byabo imbere.

Icyumba kibitswemo utubido tubitse imiti ishobora gukoreshwa mu buhinzi, igafasha abaturage mu kongera umusaruro wabo, babishyize mu butaka bakoresheje iyo miti.

Ibyumba bitangirwamo imiti ifasha abaturage, cyane cyane abakora umurimo w'ubuhinzi, mu kwiteza imbere bakoresheje ifumbire nyongeramusaruro kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Iterambere ry'ubucuruzi bw'imiti cyane cyane gakondo, bigateza imbere n'ubucuruzi bw'imiti y'inka muri rusange. Harimo n'ibikoresho bikoreshwa nka rozwari ndetse n'ibindi.

Inyubako itangirwamo serivise zitandukanye harimo imiti y'amatungo, imbuto nziza, ndetse n'inyongeramusaruro, zikoreshwa kugira ngo abaturage babone umusaruro uhagije mu biribwa ndetse no mu mirima yabo.

Icyumba kibitswemo imiti itandukanye ifasha abaturage rusange mu kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi, bita ku matungo yabo ndetse banahinga ubutaka bwabo hakoreshejwe imiti yabugenewe yo kwita k'ubutaka.

Ubuhinzi bw'intoryi n'ingirakamaro ku buzima bw'abaturage rusange batuye mu gihugu, kuko bibafasha mu kubona imboga nziza kandi imboga zifite ingirakamaro ku buzima bw'umuturage.

Ubuhinzi bw'inyanya bukorwa n'abaturage rusange, bibafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere amasoko y'ibiribwa kubwo kubona inyanya zitandukanye ku isoko.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo beze imirima itandukanye y'ibigori, izabafasha mu kubona indyo imeze neza ndetse no gukora izindi ndyo zitandukanye harimo nka kawunga.

Ibiti bitandukanye biherezwa abaturage rusange kugira ngo bateze ibihingwa by'ibiti imbere, bizabafasha mu iterambere ry'ikirere ndetse no kubungabunga ibidukikije.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bubafasha mu kwiteza imbere bahinga ibiribwa bitandukanye, harimo imyumbati ishobora gukoreshwa mu kubona indyo zitandukanye, harimo kawunga ndetse n'ifu y'igikoma.

Ibiti by'imbuto z'imyembe bitangwa ku baturage rusange kugira ngo biteze imbere banateze uburyo bw'ibiribwa bw'imbuto imbere mu bucuruzi, ibyo bigafasha igihugu mu gutera imbere mu buryo bw'ibiribwa.

Ubuhinzi bw'intoryi bukorwa n'abaturage rusange, bubafasha mu kwiteza imbere mu gihe bari ku masoko barimo baragurisha ibicuruzwa by'ibihingwa byabyo kuko ari inyungu idasanzwe.

Ibigori ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse ni indyo bakunze gukoresha umunsi ku munsi, ikavamo kawunga ndetse ikitabwaho na none ikavamo ifu y'igikoma ku baturage n'abana.

Abaturage bagaragaza ko bishimiye ubuhinzi bw'inanasi bakora umunsi ku munsi kuko inanasi ari ikiribwa gifasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse bakanabona intungamubiri.

Ibibabi bihinzwe n'abaturage rusange ndetse hitaweho amaterasi y'indinganire kugira ngo harindwe isuri ishobora gutuma ibihingwa byangirika, bikaba byapfa ubusa.

Umurima urimo ibihingwa by'imboga bitangwa ku baturage rusange, umunsi ku munsi kugira ngo abe ameze neza, hakaba harimo intungamubiri zifasha umuturage kumererwa neza mu mubiri ndetse bikongera n'umusaruro mwinshi cyane w'ubucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye.

Ibiti by'imyembe biherezwa abaturage rusange kugira ngo bateze ubuhinzi bw'imbuto imbere ndetse bikabafasha no kubona ibiribwa by'imbuto kuko bifasha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Ubuhinzi bw'insina bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo babone ibiribwa bizajya bibafasha mu kwiteza imbere, hakoreshejwe ubucuruzi ndetse no kwita ku mirima yabo kugira ngo ibihingwa by'ibitoki bize bimeze neza.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku baturage, ndetse abahinzi b'ibigori bagaragaza ko bishimira umusaruro babona mu bigori, kuko beza neza ndetse banakoresheje ifumbire itanga umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bw'inanasi butangwa ku baturage ndetse bigateza uburyo bw'ubuhinzi n'ubucuruzi imbere indani mu gihugu ku baturage.

Ubuhinzi bw'inyanya bukorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu, bubafasha mu kwiteza imbere ndetse no kubona indyo izakoreshwa mu masoko agiye atandukanye.

Iterambere ry'igihugu bigendewe ku gutera ibiti bikorwa n'abaturage rusange, akaba ari serivisi imeze neza ikorwa n'abaturage kugira ngo bajye batanga imiti imeze neza.

Ubuhinzi bw'imboga bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku buzima bwabo hakoreshejwe mu buhinzi bw'imboga, birimo intoryi, inyanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo babone amavuta y'ibihwagari azafasha abaturage mu kubona indyo nziza ndetse akanateza imbere igihugu mu buryo bw'ubucuruzi.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange, harimo ubuhinzi bw'imbuto urugero nk'inanasi rukorwa kugira ngo ruteshe ba nyiri umurima imbere ndetse n'ibiribwa by'imbuto imbere ku isoko.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu ni ingirakamaro, aho abakora ubuhinzi butandukanye bakangurirwa kwita ku mirima yabo bashyiramo amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kubangiriza imyaka.

Ibiti by'imbuto bitangwa ku baturage rusange kugira ngo bateze serivisi y'ubuhinzi imbere ndetse bagahabwa n'ifumbire yabugenewe kugira ngo igiti kizakure gifite imbuto zimeze neza.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange, indani mu gihugu kugira ngo buteze imbere igihugu mu buryo bw'ibihingwa ndetse n'ubucuruzi kugira ngo umutekano ube umeze neza, uri mu mafaranga ariko binyujijwe mu bihingwa.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa n'abaturage rusange, bigaragaza ko ari ingirakamaro kuko bitanga umusaruro mwinshi ariko bikitabwaho mu gihe biri gukura, bihabwa ababifuhera kugira ngo bikure bimeze neza.

Umuturage ugaragaza ko yishimiye serivisi yo guherezwa ibiti, kugira ngo yiteze imbere ndetse ibi biti bigatuma umuturage yiteza imbere mu buryo bw'ubucuruzi, ndetse no gutera ubuhinzi bw'ibiti muri rusange.

Icupa ribitswemo umuti ukoreshwa ku kwita ku buvuzi bw'amatungo yo mu rugo, harimo inka, intam, ihene ndetse n'izindi nyamaswa kugira ngo zibe zifite ubuzima bumeze neza.

Icupa ry'umukara rifite agapapuro k'umweru gafasheho, akaba ari umuti ubitswemo ufasha mu buvuzi bw'amatungo harimo inka, ihene, intama cyangwa se ingamiya, bikaba kuba byabafasha mu kwitabwaho.

Icupa ribitswemo umuti ukoreshwa mu ivurwa ry'amatungo yo mu rugo, harimo nk'inka, ihene, intama, inkoko ndetse n'ayandi, agatangwa n'abavuzi gakondo.

Umuti ukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo witabweho neza ubikwemo umuti uzafasha abaturage ku kwita mu buvuzi bw'amatungo yabo magufi harimo nk'ihene, intama, inka ndetse n'izindi ndetse bikongera n'umusaruro w'ibiribwa umunsi ku munsi.

Icupa rifite umuvuniko w'ubururu ndetse n'igikarito cyawo aho habikwamo umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'amatungo yo mu rugo harimo inka, ihene, intama ndetse n'imbwa.

Ubworozi bw'inyoni bukorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu kugira ngo bateze imbere ubukerarugendo n'Igihugu gitere imbere mu buryo bwo kwakira amafaranga ya ba mukerarugendo.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro ku baturage rusange ndetse bagomba kwita ku matungo magufi bakayafasha mu buryo bwo kumera neza, mu gihe yagize uburwayi bakayashakira imiti ndetse banayamenyera amafunguro yayo umunsi ku munsi.

Agakombe karimo ifumbire cyangwa se ifu ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo ibihingwa n'abaturage rusange babone umusaruro mu buhinzi, bakomeze kwiteza imbere.

Kwita ku matungo magufi yo mu rugo uyahereza ibiryo byazo bizikwiriye ndetse ukayitaho uyavura n'indwara zigiye zitandukanye mu gihe zagize uburwayi.

Icupa ribitswemo umuti ukoreshwa n'abaturage rusange mu kuvura amatungo yabo yo mu rugo, harimo nk'inka, ihene, intama ndetse n'ayandi, agatangwa n'abaganga b'inzobere hakoreshejwe imiti yabugenewe ndetse n'ama ga y'isuku kugira ngo birinde.

Icupa ry'ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko w'ubururu, rikoreshwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze imbere ubuhinzi muri rusange, bakomeze no kwita ku biribwa babihereza imiti ibikwiriye.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'ibitoki ndetse bugakorwa mu mirima ifumbijwe amafumbire ameze neza kugira ngo insina izatange igitoki kizatanga umusaruro mwinshi ku isoko.

Umurimo w'ubuhinzi, ukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, banateze imbere ibiribwa byabo, hagendewe mu gutera ibiribwa bitandukanye harimo ibitoki, insina ndetse n'ibindi.

Ihuriro ry'abaturage rusange mu kwita ku mihanda ndetse banita ku mirima yabo, aho bagaragaza ko gucukura imiferege kugira ngo amazi abone aho anyura ari ingirakamaro, bizabafasha mu kwiteza imbere ndetse no gutuma imirima yabo imera neza.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange n'ingirakamaro kuko bibafasha mu kwiteza imbere, mu buryo bwo kubona ibiribwa ndetse bakanatera imbere mu buryo bw'ubucuruzi bw'umurimo w'ibihingwa ku isoko.

Serivisi ikorwa n'abaturage rusange mu gutera ibiti kugira ngo bateze uburyo bw'ubuhinzi imbere mu gihugu, ndetse bigateza n'igihugu imbere.

Ibibabi bikoreshwa muri serivisi y'ubuhinzi, bikitabwaho n'abaturage rusange kugira ngo bateze ubuhinzi n'ubucuruzi imbere indani mu gihugu, bigafasha n'Igihugu mu gutera imbere.

Ihuriro ry'abaturage rusange mu gushyira hamwe mu gutezanya imbere, aho bubaka uturima tw'igikoni tuzabafasha mu kubona imboga zizajya zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Ishyirahamwe ry'abaturage rusange mu guteza ibiribwa byabo imbere babyitaho umunsi ku munsi harimo nko kubifuhera ndetse bakanabihinga mu buryo bumeze neza kugira ngo byitabweho.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze ibihingwa ndetse n'ibiribwa imbere, bagakoresha amafumbire yabugenewe ndetse n'ayandi mvaruganda kugira ngo umusaruro wiyongere.

Serivisi ikorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu yo guteza imbere uburyo bw'ubuhinzi ndetse bafatanyije n'urubyiruko, bagafatanya n'abandi baturage rusange, kugira ngo umurimo ube umeze neza.

Imirima ihinzwemo ibigori bitandukanye ndetse bigaragazwa ko ari abaturage bishimiye ubuhinzi bw'ibigori kuko bubafasha kwiteza imbere mu buryo bujyanye n'ubucuruzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage ni ingirakamaro kuko bifasha ba nyiri umurima mu kwiteza imbere bakanateza ibiribwa imbere, ibi bigatuma umusaruro w'ibiribwa wiyongera bigateza igihugu imbere.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ndetse bifasha abaturage mu kwiteza imbere, bagateza n'igihugu cyabo imbere. Ubuhinzi bw'ibishyimbo aho bukorerwa isuku hakoreshejwe mu kubisukura, bagakoresha n'inkoko zabugenewe.

Imifuka itandukanye ibitswemo ibiribwa bitangwa n'abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi ndetse bikabafasha mu kwiteza imbere banateza imbere isoko ry'ubucuruzi ry'ibihingwa.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage rusange ndetse agakoreshwa indyo bita igitoki, hagahingwa insina kugira ngo zitabweho umunsi ku munsi kugira ngo bazazibonemo inyungu imeze neza.

Umuco gakondo ni ingirakamaro aho abaturage batandukanye bagaragaza ko kwita ku biribwa ndetse binabikwa ahantu hafite isuku ari ingirakamaro aho bibikwa mu mifuka igiye itandukanye kugira ngo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bw'ibirayi, bufasha abaturage ba nyir'imirima mu kwiteza imbere, ndetse bateza n'isoko ry'ibiribwa ry'ibirayi imbere muri rusange.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo bateze ubucuruzi bw'ibihingwa imbere, ndetse bite ku buzima bw'umuturage, abona indyo zitandukanye zikorwa mu buhinzi bw'imyumbati.

Ibihingwa by'avoka ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage. Ndetse bifasha abaturage kubona indyo yuzuye kandi ifite vitamine inoze kuri buri muturage wese.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bagaragaza ubuhinzi bw'ibigori ko ari ingirakamaro kandi bibafasha mu kwiteza imbere umunsi ku munsi; bakabona indyo imeze neza ndetse bikanabafasha guteza igihugu imbere.

Inyubako yubatswe nk'uburyo bw'ikigega gihunikwamo imyaka izakoreshwa n'abaturage mu gihe kiri imbere, ndetse hakaba harimo n'ibigori bigaragaza ko bishobora gutanga umusaruro mwinshi mu gihe byakoreshejwe.

Ibiti bikoreshwa n'abaturage rusange kugira ngo byitabweho, bizakoreshwe mu gutera imirima y'imyumbati izafasha abaturage mu kubona indyo nziza kandi izabafasha mu buzima bwabo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi ni ingirakamaro kuko bubafasha mu kwiteza imbere, bakanateza ubucuruzi bw'indyo y'ibishyimbo imbere.

Inyanya ziri mu bitebo ndetse n'abaguzi batandukanye bigaragaza ko ari ingirakamaro mu gucuruza imboga z'inyanya kuko zifasha ba nyir'intebo mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibiribwa ndetse bukorwa n'abaturage rusange aho batera insina zitandukanye kugira ngo babone ibiryo by'igitoki bizabafasha mu kwita ku buzima bwabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, bagakoresha kwita ku ireme ry'ibidukikije batera ibiti muri rusange bizabafasha mu kubungabunga ibidukikije.

Kwita ku bidukikije, abaturage bakangurirwa kubungabunga amashyamba ndetse n'ibiti biri mu mashyamba kugira ngo ibyo biti bizateze ubucuruzi imbere, hakoreshejwe imbaho zabugenewe ziva mu biti.

Umuturage wese akangurirwa kubungabunga ibidukikije, yirinda gutema ibiti cyane cyane ndetse akita ku biti kugira ngo bizakurwemo imbaho zizadufasha mu kubona ibitanda, amasaso ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Kwita ku bidukikije ni ingirakamaro, aho abaturage bakangurirwa kwita ku bidukikije cyane cyane ibiti, birinda kubitema ndetse no gutwika amashyamba umunsi ku munsi kugira ngo bakomeze gucunga ibidukikije neza.

Kubungabunga amashyamba ni ingirakamaro, ndetse no kwita ku biti bigafasha umuturage mu iterambere ry'iwe rusange, ndetse no guteza igihugu imbere, mu gihe bakuramo imbaho zibafasha mu gukora ibindi bikoresho bitandukanye harimo nk'ibitanda.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, indani mu gihugu, bw'ibijumba. Bubafasha mu kubona indyo imeze neza, ndetse no kwiteza imbere mu bijyanye n'amasoko y'ibyo bihingwa.

Ibiti bitandukanye byitabwaho n'abaturage rusange kugira ngo bakomeze kubungabunga ibidukikije umunsi ku munsi.

Ibiti n'ibibabi by'ibihingwa bikorwa n'abaturage rusange mu gihugu, bikabateza imbere mu buryo bwo kubona ibihingwa ndetse no guteza imbere amasoko y'ubuhinzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku buzima bwabo umunsi ku munsi, bagahinga indyo zitandukanye zirimo amashu ndetse n'izindi zizatanga umusaruro uzafasha mu iterambere ry'umuturage.

Kwita ku bidukikije ni ingirakamaro, twita ku biti kuko bidufasha mu bikorwa bitandukanye bifasha umuturage kwiteza imbere, harimo nko kubona imbaho zimufasha mu igurisha ry'isoko.

Ibiti bitandukanye byose bikoreshwa n'abaturage rusange, uburyo bwo guteza ubuhinzi imbere, ndetse no kwita ku bibabi bizafasha muri serivisi z'ubuvuzi zitandukanye ku baturage.

Kwita ku bidukikije cyane cyane twirinda gutema amashyamba n'ibiti, ni ingirakamaro, kuko ibiti bikoreshwa mu gutanga imbaho zizafasha abaturage mu kubona ibindi bikoresho.

Ibihingwa biterwa n'abaturage rusange, bigafasha abaturage mu kubona imiti igiye itandukanye ibafasha kuvura indwara zabo za buri munsi ndetse bakita no ku bidukikije umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bw'amapapayi ndetse ubwo buhinzi bugateza imbere umuturage wese ukora ubwo buhinzi, kuko bimufasha mu bucuruzi ndetse bigateza n'imbere igihugu ndetse bagatanga ibiribwa by'amapapayi bitanga vitamine E.

Ibiti biterwa n'abaturage by'amapera bibafasha kubona umusaruro utangaje ndetse bikanabafasha kwiteza imbere mu buryo bwo kugurisha imbuto zera kuri ibyo biti.

Ubuhinzi bw'ibisheke, bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo tubone umusaruro ugiye utandukanye harimo isukari ndetse n'ibind, bifasha abaturage b'abahinzi mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange harimo ubuhinzi bw'ibisheke ndetse bugakoreshwa no mu nganda kugira ngo bikorwemo amasukari n'ibindi bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Kwita ku mashyamba ni ingirakamaro ndetse ukayabogamira kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi kuko bifasha igihugu mu gutera imbere mu gihe harimo n'igurishwa ry'ibiti, ubucuruzi bw'ibiti buteza imbere igihugu.

Ibiti bitandukanye byitabwaho n'abaturage rusange mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije kuko bibafasha kubona umusaruro uva mu biti ndetse bikanabafasha kubona ibihingwa bitandukanye.

Ibihingwa by'ibigori ni ingirakamaro. Aho abaturage rusange bahinga ibigori mu mirima igiye itandukanye yabo bwite, ndetse bikabafasha mu kubona ibyo kurya byabo bya buri munsi ndetse bikanateza igihugu imbere.

Iterambere ry'imiti gakondo harimo ibikakarubamba, kugira ngo biteze ubuvuzi imbere, bikoreshejwe n'abaturage babugenewe, kugira ngo bahabwe imiti izabafasha kuvura indwara z'uruhu n'izindi z'umubiri.

Kwita ku bidukikije ni ingirakamaro, aho bagaragaza ko kwita ku buzima bw'ibiti ari ingirakamaro kuko bidufasha mu buryo bugiye butandukanye, nko kubona imbaho ndetse bikanadufasha mu guteza igihugu imbere muri rusange.

Ibibabi biterwa n'abaturage rusange kugira ngo babone imiti izajya ibafasha mu kwita ku buzima bwabo ndetse ubuhinzi bw'imiti rusange gakondo, akaba ari ingirakamaro ku buvuzi gakondo kuko bifasha mu gutangwa ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi.

Ubuhinzi rusange bukorwa n'abaturage kugira ngo babone imboga bazajya bakoresha mu ngo zabo ndetse bakabikora mu buryo bw'uturima tw'igikoni kugira ngo bajye babona imboga hafi yabo.

Ubuhinzi bw'inyanya bukorwa n'abaturage rusange ndetse bakita ku nyanya zabo kugira ngo ubucuruzi buzagende neza ndetse n'umusaruro babona mu bihingwa byabo ube umeze neza.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bikoreshwa mu guteka imboga zifasha abaturage rusange nk'ibiribwa, ndetse ibitunguru bigateza imbere ubucuruzi bw'ibihingwa, bw'imboga muri rusange.

Imirima irimo ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, umunsi ku munsi kugira ngo babone umusaruro uhagije bazakoresha mu bucuruzi ndetse no kubona amafunguro bazahereza imiryango yabo.

Ibiti bitangwa kugira ngo abaturage biteze imbere, bakabihabwa biri mu mafumbire yabyo kugira ngo azabifashe mu iyongera ry'umusaruro uzatangwa.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange mu kwita ku biribwa by'imboga, harimo ku gutera ibibiriganya bizafasha abaturage mu kwita ku ndyo yuzuye umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bw'imbuto za avoka ni ingirakamaro, kuko bifasha umuturage nyir'umurima mu kwiteza imbere, anateza imbere ibicuruzwa by'imbuto ku isoko imbere.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bukorwa n'abaturage rusange, ni ingirakamaro kuko biteza imbere amasoko ndetse bikanateza imbere nyiri uwo murima mu buryo bw'ubucuruzi, igura n'igurisha ry'ibitunguru ku isoko.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse binakoreshwa mu buryo bwo kuvura abaturage cyane cyane abafite amaraso makeya bagahabwa uru rubuto kuko rubafasha mu kongera amaraso mu mubiri.

Intungamubiri zitandukanye z'ibihingwa harimo inyanya ndetse n'imiteja, kokombure ndetse n'ibindi byose bitangwa kugira ngo umuturage abe afite ubuzima bwiza umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bw'imbuto bukorwa n'abaturage rusange, urugero nk'imyembe ni ingirakamaro kuko bibafasha mu kwiteza imbere ndetse bakanateza ibiribwa by'imbuto imbere ku isoko.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange, aho cyane cyane bahinga imbuto zirimo amatunda ndetse n'amacunga kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu, bukabateza imbere mu buryo bwo kwerekana ibiribwa byabo mu isoko ndetse bagateza imbere n'ibiribwa, harimo nka kawunga k'ubwo guhinga ibigori.

Ibiti rusange bitangwa ku baturage kugira ngo biteze imbere ubuhinzi bw'imboga ndetse no guteza imbere ubuhinzi bw'ibiribwa muri rusange.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange mu turima tw'igikoni, aho batera imboga nka dodo, ibitunguru ndetse n'ibindi bazakoresha mu buryo bwo guteka bikabafasha mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi bwa tangawisi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko bibafasha kubona ikiribwa kivura indwara, ndetse kikanakoreshwa nk'umuti mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amakaroti atandukanye, akoreshwa mu biribwa by'imboga, ndetse agahabwa abaturage rusange, kugira ngo abafashe no kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'amaso ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingirakamaro kuko abaturage batandukanye babona imbuto zigiye zitandukanye harimo nk'imineke, ibyo byose bigafasha mu iterambere ry'umubiri w'umuturage umunsi ku munsi.

Imbuto zitandukanye zirimo ibinyomoro, indimu, amatunda ndetse n'ibindi, bigaragaza ukwiyongera kw'ibiribwa by'imbuto ku isoko ndetse n'iterambere ry'ubuhinzi muri rusange.

Ihingwa ry'ibiribwa bitandukanye bikorwa n'abaturage mu biti bifite ifumbire yabugenewe yongera umusaruro w'igihingwa ndetse bikitabwaho bihabwa amazi kugira ngo bikure neza.

Ubuhinzi bw'indabo ni ingirakamaro kuko butuma ahantu hasa neza ndetse bikirukana n'umwanda mu ngo zigiye zitandukanye, bagaragaza ibiti bimeze neza bikoreshwa mu gutanga isuku umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bw'amashu ni ingirakamaro ku baturage rusange, kuko bubafasha mu kwiteza imbere, cyane cyane abakora ubwo buhinzi bw'amashu, ndetse bikita no ku ntungamubiri mu buryo busanzwe ku muturage.

Ubuhinzi bw'indabo ndetse no kwita ku majaride n'amapasiparume ni ingirakamaro kuko bizana isuku ahantu ndetse abaturage bagakangurirwa kwita kuri iyo suku umunsi ku munsi.

Ibihingwa bitandukanye bikorwa n'abaturage rusange kugira ngo bateze umurimo w'isoko ry'ibiribwa imbere ndetse bikanateza nyiri umurima imbere mu buryo bwo guhabwa amafaranga.

Abaturage bose muri rusange bita ku buzima bw'ibiribwa ndetse batera n'ibiti by'imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo harimo nk'ibiti by'imyembe ndetse n'ibindi.

Abaturage rusange bagaragaza ko kweza imbuto zitandukanye zirimo imyembe, amatunda, water melon, ibinyomoro ari ingirakamaro kuko bituma abaturage babona vitamine ibafasha mu buvuzi bw'indwara.

Imiteja, karoti, inyanya, sereri ndetse na pavuro, akaba ari ibihingwa bihingwa n'abaturage rusange, bikabateza imbere, umurimo w'isoko ry'ubuhinzi, ndetse bakanabona ibiribwa bibafasha gutunga ubuzima bwabo.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange, akaba ari ubuhinzi bw'imboga z'inyanya bugafasha abaturage mu bucuruzi butandukanye ndetse no kwiteza imbere mu buryo bw'ibiribwa.

Ibihingwa bitandukanye birimo amapavuro, inyanya, dodo ndetse n'ibindi, byose byera mu turima tw'igikoni ndetse bigakoreshwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi mu guteka imboga.

Umuturage ugaragaza ko ubuhinzi bw'intoryi ari ingirakamaro, kuko ari ibibafasha mu gutanga imboga ku baturage rusange kugira ngo bakomeze kwita ku buzima ndetse n'ubuhinzi muri rusange.

Ubuhinzi bw'indabo impande ya jaride ni ingirakamaro ndetse bugaragaza ishusho nziza cyane cyane ku baturage, bigateza n'isuku imbere mu gihugu.

Ibihingwa by'imbuto cyane cyane harimo imyembe ndetse n'amatunda, indimu ndetse n'ibindi byose bihabwa abaturage rusange kugira ngo bateze imbere ubucuruzi bw'ibihingwa.

Ibiti biterwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere, banateze ibiribwa ku isoko imbere, bibafashe mu kwinjiza amafaranga ndetse no guteza imbere igihugu.

Ubuhinzi bwa dodo, akaba ari imboga zikoreshwa n'abaturage rusange kugira ngo babone amafunguro meza arimo intungamubiri zivura amaso, ndetse bigafasha abaturage ku kwita ku buhinzi bw'izi mboga.

Avoka ni urubuto rukunzwe n'abaturage bagiye batandukanye ndetse rubafasha no kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi. Hakorwamo n'amasabune agiye atandukanye ndetse guhinga avoka mu gihugu ni ingirakamaro ku buzima bw'igihugu ndetse n'umuturage.

Ubuhinzi bw'indabyo bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bakomeze guteza uburyo bw'ikirere imbere ndetse no kwita ku bwiza bw'igihugu.

Ishyirahamwe ry'abaturage mu rwego rwo guteza ubuhinzi imbere, wesa mu murima wawe ibihingwa bitandukanye harimo iby'imboga ndetse n'ibigori bizafasha mu iterambere ry'Igihugu.

Ibibabi bitandukanye byitabwaho n'abaturage rusange ndetse bigaterwa umunsi ku munsi kugira ngo bizafashe umuturage mu kubona umuti uzafasha kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingirakamaro cyane cyane ku buzima bw'abaturage rusange, kuko bibafasha mu kubona indyo imeze neza harimo nk'akawuga ndetse n'ibikoma bigiye bitandukanye.

Ibihingwa by'imboga byitabwaho n'abaturage rusange ni ingirakamaro. Harimo dodo, karoti, ibitunguru ndetse n'ibindi bishobora gutuma umuturage atera imbere mu buryo bw'ubucuruzi ndetse n'intungamubiri yazo akaba ari nziza.

Umuturage rusange, ugaragaza ko amazi ari ingirakamaro, kuko abafasha mu buhinzi ndetse bikabafasha mu kubona amazi azajya atuma ibiribwa byabo bimera neza muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa n'abaturage rusange indani mu gihugu, ni ingirakamaro kuko bibafasha mu kwiteza imbere, bakanabona ibiciro byinshi ku isoko mu gihe barimo baragurisha indyo y'ibigori.

Abaturage bose bagaragaza ko ari ingirakamaro mu kubona amazi hafi y'imirima yabo kuko abafasha mu ikura ry'ibihingwa byabo neza, akanabafasha mu buryo bw'ihinga.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo babone imirima aho bazajya batera imyaka yabo ndetse bagakoresha n'amazi meza kugira ngo abafashe mu koroshya ubutaka mu gihe bari gutera ibihingwa byabo.

Ubuhinzi butandukanye bukorerwa mu bibaya ni ingirakamaro, kuko bituma ibihingwa byera vuba ndetse bigateza n'igihugu imbere mu buryo bw'ibiribwa, igura n'igurisha ndetse n'ibindi mu baturage rusange.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse bubafasha mu kwiteza imbere umunsi ku munsi, ubuhinzi bwo mu bishanga butuma ibihingwa byera vuba ndetse bukanabufasha mu kongera umusaruro w'ibiribwa.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange mu kwiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi bwo ku isoko ndetse bakanateza imiryango yabo imbere, bagahinga bakoresheje amafumbire yabugenewe.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku ireme ry'ubuhinzi, bahinga imirima yabo bakayishyiramo amaterasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri ishobora kwangiza ibihingwa byabo.

Ubuhinzi butandukanye bukorwa n'abaturage rusange, ndetse bakita ku mirima yabo bashyiramo amaterasi y'indinganire, kugira ngo birinde isuri, mu gihe bahinze, imyaka yabo.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku baturage rusange ndetse n'igihugu, kuko bituma abaturage biteza imbere mu buryo bwo kwerekana ibihingwa ndetse no guteza imbere ibiribwa ku isoko.

Ubuhinzi bw'utwatsi tumeze neza kugira ngo buteze imbuga isa neza muri rusange, aho abaturage bagomba kwicara baruhukira habe hameze neza munsi y'ibiti, aho batangira serivisi y'ubufuzi bwo mu mutwe.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo biteze imbere mu rwego rw'ubuhinzi n'ubucuruzi ndetse no kubungabunga ibiribwa kugira ngo abaturage bajye babona ibyo kurya.

Kubungabunga ibidukikije wita ku butaka, imirima ndetse n'ibindi, ndetse aho wateye ibihingwa byawe ukahashyira amaterasi y'indinganire kugira ngo wirinde isuri.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage indani mu gihugu kuko bibafasha mu iterambere ryabo ndetse bagahinga ibihingwa byabo banakoresha n'amazi agiye atandukanye kugira ngo byere neza.

Kwita ku iterambere ry'ibidukikije ni ingirakamaro, wita ku mashyamba uyarinda icyayahungabanya ndetse no gutemagura ibiti ngo ubimareho, ibyo byose bituma iterambere ryiyongera ndetse bigatuma n'igihugu gikomeza kugira isuku muri rusange.

Amatungo magufi arimo ihene ni ingirakamaro ndetse n'ibihingwa by'insina n'ibitoki byose bifasha nyir'urugo kwiteza imbere, akanateza umuryango we imbere.

Ubuhinzi n'ubworozi ni ingirakamaro ku baturage ndetse bifasha abaturage batandukanye mu kwiteza imbere mu gihe bakora imirimo itandukanye nk'iyo, bikabafasha no kwitanga, bigateza igihugu imbere.

Kwita ku matungo magufi ni ingirakamaro, uyamenyera ibyo kurya bikwiriye ndetse mu gihe yahuye n'uburwayi ukayahereza imiti ikwiriye kugira ngo abe ameze neza umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi mu rugo harimo nk'ingurube ndetse bigateza umuturage wese ufite iryo tungo imbere, mu buryo bw'igura n'igurisha muri rusange.

Kwita ku matungo yo mu rugo urugero harimo nk'ingurube, ukazimenyera ibyo kurya bizikwiriye ndetse ukazimenyera n'imiti mu gihe zahuye n'uburwayi kugira ngo zibe zimeze neza umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro; aho abaturage bakangurirwa kwita ku matungo yo mu rugo, bayahereza ubwatsi bukwiriye ndetse bakanayahereza imiti ikwiriye mu gihe itungo ryahuye n'ikibazo cy'indwara.

Ubworozi bw'amatungo, bukorwa n'abaturage rusange, bubafasha mu kwiteza imbere ndetse banatezanya imbere mu buryo bw'ubucuruzi bw'itungo, ndetse bakarimenyera ibiribwa n'imiti mu gihe cy'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo, harimo nk'inka zo mu biraro, ni ingirakamaro kuko ziteza umuturage nyiri itungo imbere, ndetse akaba agomba kwita kuri iryo tungo arihereza ubwatsi burikwiriye, n'imiti mu gihe ryahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro ku baturage rusange ndetse bakita ku matungo yabo, bayahereza amafunguro akwiriye ndetse banayagezaho imiti mu gihe yahuye n'uburwayi.

Ubworozi bw'abaturage bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro kuko bifasha nyiri itungo mu kwiteza imbere, agakorera isuku itungo ry'iwe ndetse akarimenyera ibiryo no mu gihe cy'uburwayi akarimenyera imiti.

Ubworozi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, ndetse bufasha nyiri itungo mu gutera imbere mu buryo bw'igurisha ry'amata, ariko akamenya ubwatsi ahereza itungo rye, no mu gihe yahuye n'uburwayi akayimenyera imiti.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro kuko biteza imbere nyiri amatungo bikanateza imbere igihugu, nyiri amatungo akagomba kuyitaho ayamenyera imiti iyavura ndetse n'ibiribwa byayo.

Amatungo yo mu rugo arimo ihene, akaba ari mu kiraro cyayo, agaragaza ko ari ingirakamaro ku kwita ku bworozi bw'amatungo yo mu rugo, ukayamenyera ibiryo ndetse n'aho ziryama mu gihe zahuye n'uburwayi ukazimenyera n'imiti.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa ndetse n'amatungo yo mu rugo urugero, harimo nk'ihene agakomeza kwitabwaho umunsi ku munsi, abona imiti yabukenewe ndetse n'ubwatsi bwo kurisha.

Abaturage bagaragaza ko kororera inka mu biraro ari ingirakamaro ndetse binabateza imbere. Babona umusaruro bawukuye mu mata ndetse bagakomeza no kwita ku nka zabo umunsi ku munsi.

Ibyumba byororerwamo inkoko, ni ingirakamaro kuko bifasha umuturage woroye ayo matungo mu iterambere ryiiwe rya rusange ndetse akabona umusaruro mwinshi mu gihe yitaye ku matungo yiwe.

Ubworozi bw'amatungo y'ingurube aho agomba kwitabwaho mu kiraro cyazo ndetse akabona ibiryo byazo bizikwiriye umunsi ku munsi kugira ngo bikure neza, aho bigize n'uburwayi bigafata imiti ibikwiriye kugira ngo bihabwe ubuvuzi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo ni ingirakamaro kuko bufasha nyir'itungo mu kwiteza imbere ndetse akanateza igihugu imbere, akaba agomba kwita ku itungo rye arimenyera ibiriribwa n'imiti izarifasha mu gihe ryahuye n'uburwayi.

Umurima uteyemo insina z'ibitoki, zifasha abaturage mu kubona amafunguro yabo ndetse no gukomeza kwiteza imbere bakoresheje ubucuruzi bw'ibyo bihingwa, ndetse no korora amatungo magufi.

Kwita ku ngurube nk'itungo ryo mu rugo ni ingirakamaro, aho uzihereza ibiryo bizikwiriye ndetse no mu gihe zahuye n'uburwayi ukamenya imiti ikwiriye ishobora gukiza itungo rigufi.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi, ni ingirakamaro kuko bu biteza imbere nyiri matungo ndetse aba agomba kwita ku biribwa by'ayo matungo no mu gihe zahuye n'uburwayi akazishakira imiti.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro ku baturage ndetse bibafasha kwiteza imbere bakanateza imiryango yabo imbere, bakamenyera amatungo ibyo kurya ndetse no mu gihe ayo matungo yahuye n'uburwayi bakayahereza imiti.

Ubworozi bw'amatungo y'inka ni ingirakamaro, kuko bifasha abaturage ba nyiri amatungo mu kwiteza imbere, mu gihe barimo baragurisha amatungo yabo, ndetse bakanita ku matungo yabo bayahereza imiti n'ibiribwa.

Inyana ndetse iri mu kiraro cyayo bigaragaza ko ari iterambere ry'abaturage mu korora ndetse bigateza imbere n'igihugu mu buryo bwo kubona ubucuruzi bw'amata muri rusange ndetse bigateza imbere umuturage ufite itungo.

Inzu iri gukorerwamo ubworozi bw'inkoko, aho inkoko zitandukanye zitabwaho n'abazishinzwe, kugira ngo bazihereze imiti izikwiriye n'ibiribwa byazo, kugira ngo zibe zimeze neza umunsi ku munsi.

Ubworozi bukorwa n'abaturage rusange mu gihugu bw'inkoko, bubateza imbere mu buryo bwose ndetse bukabahesha imirimo ku isoko, aho bahagararira inkoko zabo bakabona umusaruro mwinshi.

Kwita ku matungo yo mu rugo ni ingirakamaro ndetse umuturage ufite itungo yiteza imbere mu buryo buke butandukanye, akanahereza imiti inka yiwe mu gihe yahuye n'uburwayi ndetse akanayimenyera ibiribwa.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo buteze serivisi y'ubuhinzi imbere ndetse bikanikwa kugira ngo bizabe bimeze neza mu gihe biri gukurwamo ibindi biribwa harimo nka kawunga.

Kwita ku bihingwa by'ibiti ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage, aho baherezwa ibiti ndetse n'ifumbire yabugenewe kugira ngo bakomeze kwita ku bihingwa by'ibiti bizafasha mu guhabwa abaturage umunsi ku munsi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ndetse ubuhinzi bw'imyumbati aho ibishishwa byatonowe ku myumbati bikoreshwa kugira ngo bizongere gukorwa mu buhinzi buzafasha abaturage mu kwiteza imbere bagateza n' imbere imirima yabo, kuko bifasha ubuhinzi n'ubworozi mu gutera imbere mu buryo bwihuse mu gihugu.

Ibihingwa bikorwa n'abaturage rusange, mu buryo bwo kwiteza imbere bateza n'ubuhinzi imbere muri rusange, ibyo bigateza igihugu imbere ndetse bituma n'abaturage bakomeza kumera neza umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo iterambere ry'umuturage rikomeze kwiyongera ndetse bigateza n'igihugu imbere mu buryo bw'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'amashu bukorwa n'abaturage rusange bugaragaza ko ari ingirakamaro kuko bubafasha kubona ibiribwa ndetse bikanabafasha guhangana ku murimo w'isoko w'ubuhinzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange bagahinga imboga z'amashu zizafasha abaturage mu kubona indyo bazajya bakoresha mu biribwa, ndetse bikanateza nyiri umurima imbere mu gihe yajyanye ibihingwa bye mu bucuruzi.

Ubuhinzi bukorwa n'abaturage rusange ndetse bagatera hafi mu rugo insenda zigiye zitandukanye kugira ngo bajye bazikoresha mu buryo bwo kwitera apeti ndetse no kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Ubuhinzi bw'ibigori bukorwa n'abaturage rusange ndetse mu isarura ibigori bakabyanika kugira ngo bazabikuremo ifu zitandukanye z'ibikoma ndetse n'izindi ndyo nka kawunga.

Ubuhinzi bw'amashu bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro kuko bubafasha mu kwiteza imbere umunsi ku munsi ndetse bakanateza imbere amasoko y'ubucuruzi bw'amashu, cyane cyane imboga ku baturage rusange.

Ubuhinzi bw'indabo ni ingirakamaro, aho abaturage rusange bakomeza kwita ku ndabo bazihereza amasuku kugira ngo zikure neza ndetse bigafasha igihugu mu gutera imbere mu buryo bw'isuku.

Ubuhinzi bw'ibibabi butoya, bukorwa n'abaturage rusange umunsi ku munsi, kugira ngo bateze imbere ubuvuzi gakondo ndetse no kwita ku miti y'abaturage umunsi ku munsi.

Abaturage batandukanye bafite udutanda, harimo ibiti biri mu ifumbire yabyo ndetse ibi biti bikezwa neza kugira ngo bibateze imbere binakoreshwe mu buryo bwo kwagura igihugu.

Ubworozi bw'inka bukorwa n'abaturage rusange ni ingirakamaro, ukita ku buvuzi bw'inka ndetse ukita no ku bwatsi bwayo kuko biguhesha amata kandi ayo mata akoreshwa mu bucuruzi, bigatanga inyungu kuri buri muturage wese ufite itungo.

Icyumba kibitswemo imiti igiye itandukanye iri mu bicupa ibitswe mu buryo bw'isuku, ishobora gufasha mu buvuzi bw'amatungo yo mu rugo ndetse no kwita ku nyamaswa umunsi ku munsi.

Ubworozi bukorwa n'abaturage rusange ku kwita ku matungo yo mu rugo, harimo nk'inka ndetse mu gihe ayo matungo yagize uburwayi, agahabwa imiti yabugenewe n'abaveterineri.

Kwita ku matungo yo mu rugo, urugero nk'inyana ukazihereza imiti izikwiriye mu gihe zahuye n'ibibazo by'uburwayi ndetse ukazihereza n'ibiribwa kugira ngo ziticwa n'inzara.

Kwita ku buzima bw'amatungo ni ingirakamaro, aho amatungo agomba guhabwa imiti iyakwiriye, agahabwa ubwatsi bunoze kugira ngo amatungo abe afite ubuzima bumeze neza abashe no gutanga umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bukorwa n'abaturage rusange, ni ingirakamaro ndetse aborozi baba bagomba kwita ku matungo yabo umunsi ku munsi, bakayakingiza bakayahereza n'imiti mu gihe babona itungo rifite uburwayi.

Kwita ku buzima bw'amatungo yo mu rugo ndetse uyahereza ubuvuzi mu gihe yahuye n'uburwayi ndetse bikanateza imbere umuturage nyiri itungo mu gihe habayeho igura n'igurisha ry'itungo.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro ku baturage kuko bifasha umuturage ufite itungo mu kwiteza imbere mu buryo bw'umwuga ndetse n'ubworozi ndetse akita ku itungo rye arihereza ibiribwa n'imiti mu gihe cyahuye n'uburwayi.

Kwita ku bworozi bw'inka zo mu rugo, uzihereza imiti ikwiriye mu gihe zahuye n'uburwayi, ukazikingiza ndetse zigahura n'abaveterineri kugira ngo zihabwe ubuzima.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike ndetse n'izindi, harimo nk'inkende n'ibitera ni ingirakamaro kuko bikurura ba mukerarugendo, binjiza amafaranga bagateza imbere igihugu.

Ubworozi bw'inyamaswa ni ingirakamaro ku baturage rusange, kuko bikurura ba mukerarugendo ndetse bigafasha n'iterambere ry'igihugu, bikihutisha n'imbaraga z'imikoranire mu buryo bw'ubucuruzi bw'inyoni.

Ikiraro gikoreshwa na ba mukerarugendo mu gihe barimo baratembera ibiti ndetse n'ishyamba rigari kugira ngo bakomeze kubona ubwiza bw'iterambere ndetse no kwita neza ku biti, bigashimangira iterambere ry'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'inyoni ni ingirakamaro kuko bukurura bamukerarugendo umunsi ku munsi, bikaba byatuma Igihugu cyiyongera amahirwe y'iterambere umunsi ku munsi.

Kwita ku nyamaswa zo mu rugo zigiyee zitandukanye harimo imbwa, inka ndetse n'izindi, ukazihereza indyo zazo zikwiriye ndetse ukazihereza n'ubuvuzi mu gihe zahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Ubworozi bw'inyamaswa zigiye zitandukanye, harimo inkende ndetse n'izindi, zigashakirwa ahantu ho kuba kugira ngo zijye zikurura bamukerarugendo binjiza amafaranga umunsi ku munsi, bagafasha mu iterambere ry'igihugu.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike, ukazimenyera ubuzima bwazo aho bugeze aho zahuye n'uburwayi zigahabwa imiti kuko zidufasha mu iyinjiza rya mukerarugendo Wateza igihugu imbere.

Kwita ku nyamaswa zo muri parike ni ingirakamaro kuko biteza igihugu imbere bikanateza abaturage imbere muri rusange, bakagirwa inama yo kwita ku nyamaswa zihabwa imiti mu gihe zifite uburwayi ndetse zikanitabwaho zibona ibyo kurisha.

Ubworozi bw'inyamaswa zo muri parike, bukorwa n'abaturage rusange ndetse inyamaswa zikitabwaho kugira ngo zidufashe muri ikurura rya ba mukerarugendo bateza igihugu imbere.

Inyamaswa zo mu mashyamba zirimo inkende, ibitera ndetse n'izindi, zitabwaho n'abaturage rusange kugira ngo zizabateze imbere mu gihe cy'ubukerarugendo, zikabikwa ahantu hamwe.

Inyamaswa zo muri parike zigomba kwitabwaho n'abaturage babishinzwe kugira ngo babungabunge ubuzima bwazo kuko zidufasha kwinjiza amafaranga no guteza imbere igihugu mu buryo bw'ubukerarugendo umunsi ku munsi.

Kwita ku nyamaswa zo muri parike ni ingirakamaro kuko zidufasha mu bukuruzi bwa mukerarugendo, bazana amafaranga, bikaba byateza igihugu imbere ndetse ukazimenyera uko zibaho ndetse n'aho zirara umunsi ku munsi.

Ubworozi bw'inyamaswa z'inyoni, bukorwa n'abaturage rusange, bakita ku nyamaswa bakazishyira mu kigo kimwe ndetse zigakurura ba mukerarugendo bikabafasha mu kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inyoni zitandukanye ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse bubafasha mu buryo bw'iterambere bw'igihugu ku bw'isura rya ba mukerarugendo baza kureba inyoni mu gace.

Kwita ku bihingwa by'ibibabi ndetse n'ibinyabuzima bigiye bitandukanye harimo ibikeri ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo uteze imbere ubuhinzi wita ku bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibinyabuzima.

Ubworozi bw'inyoni ni ingirakamaro bifasha abaturage mu kwakira ba mukerarugendo bazana iterambere mu gihugu ndetse inyoni zigahabwa imiti mu gihe zifite uburwayi.

Ikiraro gikoreshwa na bamukerarugendo ndetse n'ishyamba rigari rigizwe n'ibiti bitandukanye, ibi bikaba ari ibidukikije bikomeza kwitabwaho n'abaturage rusange indani mu gihugu.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zitandukanye ni ingirakamaro, aho zitabwaho ndetse zikanabikwa ahabugenewe kugira ngo zikurure ba mukerarugendo, ibi bigateza igihugu imbere ndetse n'umuturage muri rusange.

Kwita ku buzima bw'ikirere ndetse ukita no ku nyoni ni ingirakamaro kugira ngo uteze ubuhinzi ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange imbere, wita ku binyabuzima bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inyamaswa zitandukanye harimo n'inyoni, aho zitabwaho n'abaturage rusange ndetse zigakorerwa n'aho zigomba kuzajya ziba kugira ngo zijye zinjiriza muri ba mukerarugendo igihugu umunsi ku munsi.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike uzibungabunga, kugira ngo zikurure ba mukerarugendo bazadufasha kubona amafaranga ateza igihugu imbere muri rusange.

Ubworozi bw'inyoni bukorwa n'abaturage rusange kugira ngo bite ku mashyamba ndetse n'ibiti by'inyoni, kugira ngo babungabunge umutekano wabyo kuko inyoni zinjiza ba mukerarugendo bateza igihugu imbere.

Ubworozi bw'inyoni zitandukanye ndetse zitabwaho n'abaturage rusange, zigahabwa n'ahantu heza hazo ho kuba, kugira ngo zijye zinjiriza igihugu, mu buryo bw'ubukerarugendo.

Ubworozi bw'inyamaswa ntoya; harimo nk'inyoni, aho zitabwaho ndetse zigashyirwa no mu bigo bigiye bitandukanye, kugira ngo zijye zihabwa ubufasha n'abantu b'inzobere mu kwita k'ubworozi bw'inyoni.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zo muri parike kuko zidufasha mu ikurura rya ba mukerarugendo bateza igihugu imbere, zigahabwa ubuvuzi mu gihe zahuye n'uburwayi.

Buri muturage wese akangurirwa kwita ku buzima bw'inyamaswa, kuko ari ingirakamaro bigateza imbere igihugu mu buryo bwo gukurura indani mu gihugu ba mukerarugendo.

Guteza imbere ubukerarugendo, abaturage bita ku nyamaswa zigiye zitandukanye kugira ngo zishyirwe mu cyanya kimwe zijye zifasha ubukerarugendo bwihuse.

Ubworozi bw'inyamaswa zo muri parike, harimo ibitera ndetse n'inkende bikurura ba mukerarugendo bateza igihugu imbere, ni ingirakamaro ko abaturage babyitaho.

Kwita ku nyamaswa zo muri parike kugira ngo duteze imbere umuco wacu ndetse n'ubukerarugendo muri rusange, aho Igihugu gitera imbere kubera ubukerarugendo.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage wese, kuko bifasha igihugu mu gutera imbere, kuko inyamaswa zigiye zitandukanye zikurura ba mukerarugendo.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa ni ingirakamaro, ugahereza inkende imiti mu gihe zahuye n'uburwayi ndetse ugakomeza no kubungabunga ubuzima bwazo, kuko bikurura ba mukerarugendo bazana amafaranga ateza igihugu imbere.

Ubworozi bw'inyamaswa ndetse aho abaturage bashyira hamwe inyamaswa kugira ngo zijye zikurura ba mukerarugendo, zibafasha mu guteza imbere igihugu cyabo.

Ubworozi bw'inyoni, bukorwa n'abaturage rusange, kugira ngo inyoni zishyirwe mu cyanya kimwe, zizajye zifasha igihugu mu kwinjiza bamukerarugendo, bazajya bazana iterambere mu gihugu.

Kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zitandukanye kugira ngo zishyirwe aho zishinzwe kuba ziri, zifashe igihugu mu gukurura ba mukerarugendo bazongera umusaruro w'iterambere ry'igihugu.

Ubworozi ndetse no kubungabunga inyamaswa zo mu mashyamba, zirimo inkende ndetse n'ibitera, kubwo kubyitaho, ndetse bigateza imbere ba mukerarugendo, bazana iterambere mu gihugu.

Kwita ku buzima bw'inyamaswa zitandukanye, harimo inyoni zikitabwaho ndetse zikanashyirwa aho zikwiriye kuba zibitswe kugira ngo zifashe igihugu mu gutera imbere ndetse zikurura ba mukerarugendo umunsi ku munsi.

Inyamaswa zitandukanye zihurijwe ahantu hamwe, zirimo impara ndetse n'imparage, zose zikurura ba mukerarugendo badufasha mu kwinjiza amafaranga mu gihugu ndetse bikanakorwa mu buryo bw'ubwirinzi ku baturage.